Hirya no hino mu gihugu hari ibigo biba byarasinyanye amasezerano na guverinoma kugira ngo bitange ubwishingizi ku baturage yaba ubw'ubuzima cyangwa ubw'imitungo itimukanywa.

Mu duce tugiye dutandukanye cyangwa ku mihanda, dukunze gusangaho ibyapa binini aho byamamarizwaho ibikorwa bigiye bitandukanye. Twavuga nko kwamamaza ibigo bitanga ubwishingizi, yaba ubw'inyubako cyangwa ubw'ubuzima.

Umuryango w'abazungu cyangwa abafite uruhu rwera bambaye amakoboyi bose yaba umugore cyangwa umugabo ndetse n'umwana wabo bigaragara ko bishimye.

Mu maduka menshi mu gihugu ukunze gusangamo abanyamahanga baje guhahiramo imyambaro bifashisha mu gihe bagiye mu kazi cyangwa kuhasanga abaje kwamamaza ibikorwa byabo.

Imipira yanditseho amagambo ndetse n'amakoti yambarwa n'abagabo ukunze kubisanga mu maduka manini acururizwamo imyambaro y'abagabo ndetse n'iy'abahungu.

Mu maduka agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu, hari utumashini twabugenewe mu kuba twafata amakarita ya banki bakaba bakuraho amafaranga y'ibicuruzwa umuntu uguze batiriwe bajya kujya kubikuza.

Umwuga w'ubukorikori ukunze gusangamo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho ukunze gusangamo nk'imyambaro cyangwa inkweto, izo nkweto zikaba zitatseho amasaro kugira ngo byongere ubwiza bwazo.

Mu maduka manini dukunze gusangamo imyenda y'abagore cyangwa' abakobwa, aho usanga haba hari n'urumuri rutuma umuntu abona ibicuruzwa bacuruza.

Amaduka agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu; akunze kwifashisha ikoranabuhanga, mu kwamamaza ibikorwa byabo, nko kwamamaza amashakoshi y'abagore, ari mu ibara ry'umukara ndetse n'amagambo ariho yanditse muri zahabu.

Mu maduka agiye atandukanye acuruza imyambaro ukunze gusangamo imipira ndetse n'amashati yambarwa n'abagore cyangwa abagabo, cyane cyane ukaba usangamo iy'umukara n'umweru kuko ariyo mabara akunzwe kurusha ayandi.

Amapantalo y'amakoboyi ni imwe mu myambaro yambarwa n'abagore cyangwa abagabo n'abana cyane cyane bakunze kuyambara mu gihe baba bagiye mu birori.

Bari mu makamyo manini yo mu mabara y'umweru cyane cyane yakunze kwifashisha mu kuba yatwara ibintu ubana bijyana nanjye bikaba yakodeshwa rimwe na rimwe mu gihe nyirikanmyo ababikeneye.

Imodoka nini ukunze gusanga zikoreshwa n'inganda zigiye zitandukanye kugira ngo zivane ibicuruzwa byabo ahantu hamwe zibijyana mu maduka agiye atandukanye ari hirya no hino mu gihugu.

Imodoka nini zifashishwa z'amakamyo ukunze kuzisanga hirya no hino mu mihanda yo mu Rwanda, aho ziba zikoreye ibicuruzwa bimwe na bimwe yaba ibinyobwa cyangwa n'ibiribwa.

Hirya no hino mu gihugu ukunze kuhasanga imodoka zikiri nshyashya, aho ushobora kujya kuzigura aririya ma amafaranga yawe ahagije ku buryo ubura imodoka itarigeze igendwamo n'undi muntu, ari zo ukunze kwita ko ziba zifite umuvuduko wa zeru.

Mu mazu menshi agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu atangirwamo serivisi, ukunze gusangamo abagabo baje kugura amamodoka kugira ngo nabo babe mu batunze mumodoka mu gihugu cy'u Rwanda.

Akamashini k'icyuma kabara amafaranga, ni imwe mu mashini zifashishwa n'abakora mu mafaranga aho bakira amafaranga menshi, kugira ngo uyabare wihuse, ukaba wakwifashisha ako kamashini kabugenewe.

Amabanki agiye atandukanye bakunze gukoresha amafaranga y'abanyamahanga, mu kuba bayabitsa cyangwa bayavunja, aho ukunze usangamo amafaranga ya kera yakoreshwaga cyangwa ayo ibindi bihugu bikoresha.

Mu mabanki cyangwa ahantu hatangirwa amafaranga, ukunze kuhasanga aho batangira serivisi hari ibirahuri bitandukanya abakiriya ndetse n'abakozi b'ayo maduka aba agurisha amafaranga.

Ku makusanyirizo y'amata agiye atandukanye, hirya no hino mu gihugu, y'uruganda rw'Inyange, ukunze gusangaho amafoto y'ibicuruzwa, urwo ruganda rukora yaba amazi cyangwa ibinyobwa by'imitobe.

Amasambusa y'ibirayi cyangwa ay'inyama, ni bimwe mu biribwa bikunzwe n'abatari bake m gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Bikaba biba bikozwe mu ifarini, ndetse ugashyiramo n'indi misemburo itandukanye.

Hirya no hino mu biro bicuruza amafaranga cyangwa bikuririza abantu, bikora nk'amabanki, ukunze kuhasanga urujya n'uruza rw'abantu baje kubikuza cyangwa kugurisha amafaranga.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, rukunze kwifashishwa nk'urupapuro nyemezabwishyu aho uba wishyuye bakaruguha.

Hari urupapuro, rugaragazwa nyuma yuko umuntu yaba yeguye cyangwa atanze amafaranga y'imisoro, bakaba baheka amafaranga yahembwe n'ayo umusoro shobora kugurwa ifaranga.

Amafaranga yo mu gihugu cya congo ukunze gusanga ariho ibishushanyo by'inzovu kandi ikaba ariho n'imibare y'ibanga iranga inote kugira ngo itandukane n'iyindi, kandi hariho n'agaciro k'iyo note.

Ku maduka acuruza amafaranga ku nzu usangaho ibyapa bigaragaza agaciro k'aho ifaranga rigeze aha twavuga nk'amadolari aho bashyiraho agaciro k'amafaranga y'iryo dolari mu gihe ugiye kurigura cyangwa waba ugiye kurigurisha.

Amafaranga y'amanyamahanga ni amwe mu mafaranga akunze kwifashishwa n'abacuruzi bagiye kurangura ukaba uyasanga hirya no hino mu maduka acuruza amafaranga.

Amafaranga y'amanyamahanga, ni amwe mu mafaranga yifashishwa mu gihe abantu bagiye kuvunjisha kugira ngo babahe amafaranga y'amanyarwanda kubera ko ariyo akora mu gihugu cy'u Rwanda.

Mu biro bitangirwamo amafaranga yaba ugiye kubigura amafaranga y'amanyamahanga cyangwa ubashyiriye amafaranga y'amahanga kugira ngo bayaguhe uri mu gihugu urimo, ukunze kuhasanga ibyapa binini byanditseho amazina y'ibyo biro, hakaba handitseho na serivisi batanga.

Ibiro by'ivunjisha dukunze gusangaho ibyapa bimanitse bigaragaza aho amafaranga ageze n'agaciro kayo ku buryo umuntu wese abibona ibyo byapa bikunze kuba biri mu mabara y'umuhondo ndetse n'amagambo ari mu matara.

Ku maduka agura cyangwa akagurisha amafaranga, ukunze gusangaho ibyapa biranga aho bakorera, aho biba binariho agaciro k'amafaranga ushobora kuba ugiye kugurayo cyangwa ugiye kugurishayo, hakaba hakunze kugaragara amagambo ari mu mabara y'umukara akubwira uko serivisi zabo zitangwa.

Uburiri ndetse n'igitanda kigezweho kimwe mu bikoresho abantu bifashisha mu byo bagiye kuryama, kuko bibarinda amavunane ugereranyije n'abaryama ku byitwa ibitara mu cyaro.

Intebe nyinshi bifashishwamo amapamba kugira ngo umuntu azicireho zinepe ,kandi bakaba bazipfunyikisha n'ibitambaro biri mu mubara agiye atandukanye, gutya twavuga nk'ibara ry'umugo rikunzwe n'abatari bakeya hirya no hino.

Mu bukorikori ukunze gusangamo abakoze amabase yifashishwa mu gushyiramo imyenda itarafuzwe cyangwa mu bindi bikoresho biba bisa nabi, aho bishyirwamo mu gihe bitari byakorerwa isuku.

Imbaho ni kimwe mu bikoresho bikunze kwifashishwa yaba mu gukora ameza cyangwa intebe ndetse n'ububati bwifashishwa n'abatari bake mu gihugu.

Intebe ndetse n'ameza bikoze mu mbaho, ukunze kubisanga mu ngo zigiye zitandukanye, aho byifashishwa mu mazu yabo, mu gihe bagiye kurya bakaba babiteguriraho ibyo bagiye kurya, bakanicara kuri izo ntebe zikoze mu mbaho.

Abazungu bakunze gukora imirimo y'amaboko mu gihe bari mu ngo zabo mu biruhuko aho bifashisha imbaho gukora ibikoresho bimwe na bimwe bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imbaho zituruka ku biti bimwe mu bikoresho byifashishwa mu bubaji hirya no hino mu gihugu, aho byifashishwa mu gukora intebe, ameza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Intebe zikoze mu mbaho ndetse n'ameza akoze mu mbaho ni bimwe mu bikoresho ababaji bakora byo kwicaraho cyangwa gukoresha mu masaro y'abantu.

Abakora umwuga w'ububaji, bakunze gukora intebe zikoze mu mbaho ndetse n'ameza, kuri izo ntebe bakaba bashyiraho imisego ifite kuba yanikwa muri yo kugira ngo umuntu ni yicareraho yumve atabangamiwe.

Mu mujyi wa Kigali, ukunze kuhasanga inyubako ndende kandi nziza zibereye ijisho, aho zaka amabara agiye atandukanye, twavuga nk'inyubako ya convesheni ikunze gukorerwamo amanama agiye atandukanye, ahuza abayobozi.

Hirya no hino mu gihugu ukunze kuhasangamo ama hoteli yifashishwa n'abanyamahanga cyangwa abanyarwanda mu gihe basohotse nk'imiryango cyangwa n'inshuti, ukunze no kuhasanga ama piscine, aho abantu bajya kwidumbaguzamo mu gihe bumva bashyushye ngo bamererwe neza.

Inzu ifite amatara y'umweru yaka cyane, ndetse harimo n'intebe z'umukara zifite imifariso n'ameza manini byifashishwa mu gihe abakozi bari ku kazi.

Mu nyubako ndende zizwi nk'amataje ukunze gusangaho ibigo byikorera cyangwa ibya leta bitanga ubwishingizi, yaba ubw'ubuzima cyangwa ubw'imitungo runaka.

Ibiro by'ivunjisha bigiye biri hirya no hino mu gihugu, aho bikunze kuba byegeranye n'ibindi bigo mu mazu manini akunzwe kwita amataje, aho haba harimo n'ibifasha umwuka kuba wakonja mu gihe haba hashyushye.

Mu rwego rwo gufasha abaturage kwiteza imbere, hari amabanki agiye atandukanye ashyiraho kuba yaha abaturage bifashisha ayo mabanki inguzanyo, kugira ngo bifashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Hirya no hino mu gihugu ukunze kusanga ibigo by'ubwishingizi bikorera mu mazu maremare, azwi nk'amataje, aho bitanga amaserivisi y'ubwishingizi bw'amazu, cyangwa n'imitungo y'umuntu bwite.

Inzu ndende ifite ibirahuri by'icyatsi byifashishwa mu kuba byafunga cyangwa bigafungura hinjira akayaga mu nyubako, ndetse bakaba banareba no hanze uko hasa.

Urubyiruko ndetse n'abandi bakozi batandukanye, ni bamwe mu baziranye hagati yabo kugira ngo batezanye imbere bakaba bahahurira mu buburyo bitandukanye aho bashobora gufashanya.

Amabanki agiye atandukanye, afitanye imikoranire ya hafi n'abaturage, ukunze gusanga bafite impapuro zigaragaza uburyo banki ikoramo kugira ngo umuturage asobanukirwe serivisi agenewe.

Amabanki agiye atandukanye yo hirya no hino mu gihugu ukunze gusanga akorera abakiriya babo amakwe mu rwego rwo kugira ngo bubahirize serivisi nziza mu bakiriya.

Mu mihanda igiye itandukanye yo hirya no hino mu gihugu, ikunze gusangwamo aho amamodoka aparika kandi ukanahasanga ibyapa byamamarizwaho n'amakampani agiye atandukanye, aho bashyiraho ibicuruzwa byabo kugira ngo abaturage babimenye.

Ku masoko hirya no hino mu gihugu cyangwa udu soko dutoya, ukunze kuhasanga abagore baba barimo bacuruza itsenda ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye.

Ibitenge ni bimwe mu myambaro ikunzwe n'abagore ndetse hari n'abagabo bayigura bakaba bayidodesha mu amapantaro, ariko cyane cyane abagore akaba aribo bakunze kwambara uno mwambaro, ukaba wayisanga mu maduka agiye atandukanye hirya no hino.

Mu masoko agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu ukunze gusangamo abagore bahicaye aho baba bakorera akazi kabo yaba gucuruza inyanya cyangwa ibitunguru n'intoryi mu rwego rwo kwiteza imbere bo n'imiryango yabo.

Mu masoko agiye atandukanye yo hirya no hino mu gihugu, ukunze gusangamo amafu y'ibinyampeke cyangwa ukabisangamo ibyo binyampeke bitakozwemo, twavuga nk'ibishyimbo, soya, inyanya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Amasoko agiye atandukanye yo hirya no hino mu gihugu, ukunze kuhasanga imineke, inyanya ndetse na tungurusumu n'ibindi binyampeke bikunzwe ku isoko ry'u Rwanda.

Hirya no hino mu gihugu ukunze gusanga urujya n'uruza rw'abaturage rujya kwaka serivisi z'umurongo wa MTN, aho uwo murongo uba warashyize utuzu twawo ndetse n'abakozi bafasha abo baturage.

Mu mazu akorerwamo n'abakozi b'umurongo wa MTN ukunze gusangamo amabara y'umuhondo ku nkuta asizeho urwego rwo kwerekana umurongo wakoreye.

Umurongo wa MTN cyangwa uwa Airtel na tigo ukunze gusanga abawukorera ku mihanda, aho bashobora gutanga serivise z'iyo mirongo zombi cyangwa akaba yaguha indi serivise waba ukeneye kuri iyo mirongo.

Hirya no hino mu gihugu ukunze gusanga utuzu tw'umurongo wa emutiyeni wifashishwa n'abakozi b'uwo murongo mu gihe barimo baratanga serivisi zigiye zitandukanye twavuga nko kugura amayinite cyangwa kubikura no kubitsa amafaranga.

Umurongo wa MTN mu rwego rwo kugira ngo begerane n'abaturage washyizeho gahunda zigiye zitandukanye aho ushobora guhemba umuntu umaze igihe kinini akoresha umurongo wabo kugira ngo babone ko umurongo wabo ari uwa mbere mu gihugu.

Umurongo wa emutiyeni ni umwe mu mirongo ikoreshwa na benshi, ukunze gushyiraho serivisi zohereza abakiriya bawo kuba bawukoresha biboroheye bitagombereye kuba bako...

Mu kugura cyangwa hifashishijwe murandasi ukunze gusanga aho ibicuruzwa bikoreshwa n'abagore mu kuba byabongerera ubwiza bagasa neza mu bandi kandi bakagira uruhu utoshye.

Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyangwa amapulikasiyo, yifashishwa mu kugura cyangwa kugurisha hifashishijwe ikoranabuhanga, ukunze gusangaho ibicuruzwa n'amafaranga yabyo, aho ushobora kubigura ukanabyishyura ako kanya.

Amapikipiki manini afite amapine y'umukara akunze gukoreshwa mu kuba yageza bicuruzwa byaguriwe kuri murandasi ku bantu bagiye batandukanye bari hirya no hino mu gihugu, aho bitwarwa n'abamotari bambaye amakasike abarinda kuba bakora impanuka.

Abakozi benshi bakorera ibigo bikorera ku ikoranabuhanga, kubigura cyangwa bigurisha bakunze gukoresha amapikipiki mu gihe barimo barageza ibicuruzwa ku babiguze kandi bakabibagezaho vuba bakabona serivisi.

Inzu nyinshi zikunze gukodeshwa mu nzu usanga zifite amadirishya manini ndetse n'inzugi mini, aho aya madirishya aba afitemo ibirahuri bituma umuntu areba hanze.

Ibigo bigiye bitandukanye bigurisha amazu mu nzu usanga bifotora amazu bigurisha bikayashyira hanze hamwe n'ibiciro byayo ku buryo uyikeneye ashobora kubona amafaranga ikugura akaba yayigura.

Mu mazu agiye atandukanye hirya no hino mu mujyi wa kigali akodeshwa, ukunze gusangamo ibikoresho byabugenewe. Twavuga nk'intebe nini, zimwe abanyarwanda bakunze kwita yuko ari iz'abakire, uzisanga muri ayo mazu ndetse n'ibikoni bigezweho.

Ibigo bigiye bitandukanye bikoresha mu kuba byakora intebe cyangwa ibindi bintu bikoze mu bubaji bikunze gukoresha abakomisiyoneri mu kwamamaza ibikorwa byabo kugira ngo bigurwe vuba kandi bibone abakiriya mu gihe gito.

Amakampani agiye atandukanye akora mu kuba yakwamamaza amazu y'abantu yaba ari agurishwa cyangwa akodeshwa, akunze gukoresha ikoranabuhanga mu kuba bakwamamaza ibikorwa.

Mu maduka menshi manini aho akorera ukunze gusanga hasi hari amakaro ndetse hakoze neza ku buryo umuntu uhagera ahasanga isuku, kandi akaba yafata icyo yifuza yihuse kubera isuku ihagaragara kandi akazagaruka kubera serivisi batanga.

Mu maduka menshi hirya no hino mu gihugu, akunze gucuruza ibikoresho by'abagore cyangwa imyambaro, ukunze gusangamo amasakoshi nka kimwe mu gikoresho abagore bakunze kwifashisha batwara ibintu byabo, kugira ngo bitaba bigaragara nabi kandi bakaba basa neza mu bandi.

Mu mazu y'ubucuruzi agiye atandukanye ari hirya no hino, ukunze gusangamo urujya n'uruza rw'abantu, cyane cyane abagore ndetse n'abakobwa bagiye kugura inyama.

Abagabo ndetse n'abagore ni bamwe mu bantu bakunze kujya kugura imyenda yakorewe mu Rwanda cyangwa ikaba yarakorewe hanze y'amakote, aho ayo makote akunze gukoreshwa bayambara, bajya mu kazi cyangwa mu biro.

Mu maduka manini ari hirya no hino mu gihugu cyangwa ku isi, ukunze kuhasanga ibinyuyobwa bigiye bitandukanye yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, cyane cyane bakanahasanga ibinyobwa bisembuwe n'ibidasembuye byifashishwa mu birori bizwi nka shampanyi.

Mu maduka manini ari hirya no hino mu gihugu hagiye hatandukanye, ukunze gusanga bacuruza ibinyobwa yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye nk'imitobe n'inganda zigiye zitandukanye ku giciro gito.

Mu mazu menshi yifashishwa mu bucuruzi ukunze gusanga harimo ibyiciro bigiye bitandukanye nicyo twavuga, nk'ikiciro gicuruzwamo imyenda cyangwa igitangirwamo serivisi za Murandasi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Mu gihugu cyangwa henshi ku isi ukunze gusanga hari amaguriro, aho ushobora kujya kugurira ibicuruzwa bigiye bitandukanye yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa cyangwa ibindi byo gukoresha mu buzima bwa buri munsi.

Mu maduka menshi agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu, ukunze gusangamo abantu batanga serivisi zigiye zitandukanye, yaba abacuruza amaterefoni cyangwa amakompiyuta hirya no hino, aho ushobora kujya guhahira icyo ushaka.

Mu mijyi igiye itandukanye yo hirya no hino mu gihugu, ukunze gusangamo amazu maremare akorerwamo n'ibigo bya leta twavuga nk'inzu ikorerwamo n'ikigo cy'ubuzima gitanga amamituweli.

Mu gihe wishyuye ubwishingizi mu kwivuza cyangwa izindi serivisi zitangwa na leta, baguha agapapuro k'umuhondo kaba kanditseho igiciro cy'amafaranga utanze ariho na kashe ya leta.

Amaduka manini akunzwe kugaragaramo ibinyobwa bigiye bitandukanye, byaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, cyane cyane nk'imitobe ya fanta, cyangwa izindi nganda zigiye zitandukanye, baba bafitanye imikoranire.

Inzu ndende y'ubucuruzi isize irangi ry'ibara ry'umweru harimo amaduka agiye atandukanye acuruza uruzi rutandukanye, inyuma hariyo imodoka ndetse n'imyeyo yo gucuruza.